Ni ni pubulisite yo kwamamaza, uramutse ukeneye niditurakingi insuwarensi (ubwishingizi bwo gutwara) ,aho bashobora kukwereka ko nyine ari oto, komasho h:akaba kamasho na homu na turakingi.

Iki ni icyapa cyangwa se biriya byapa binini byo kuhanda byamamaza, hariho puburisite ya kapani ijya itanga ubwishingizi bw'imodoka.

Account history ya banki, bakwereka uko nyine ibyagiye bikorwa kuri banki amafaranga wagiye ukuraho cyangwa ayo wagiye ushyiraho, yo muri bibiri na makumyabiri na kane, n'amasaha nyine byagiye bikorerwa.

Iyi ni ifoto ya apurikasiyo imwe muri banki bita agisesi, uburyo nyine ushobora gukoresha apurikasiyo kuri banki ya sofuti, ukagura serivisi runaka nyine ukaba hari serivisi wakwishyura.

Kuri iyi foto hagaragaraho umugore uri guseka, uri mu iduka. Bigaragara ko bakora ibintu by'ubudozi bigasa nkaho yari ari kwandika sheke cyangwa ari gusinyira umukiriya fakitire.

Ifoto biragaragara nk'aho ari mu isoko cyangwa se shopu runaka, haragaramo ibitenge, ama bedikava n'amatapi biririmo n'utuyetajeri.

Ifoto iragaragara nk'aho ari butike cyangwa se shopu y'imyenda, hamanitseho amapantaro, bisa nk'aho agurishwa agera mu munani.

Iri ni iduka se cyangwa butike cyangwa se shopu icuruza ibintu, ndabona harimo ibintu by'udukomo, ibintu bya ariti, harimo amakanzu ibintu by'ubugeni.

Ifoto iragaragaraho abagabo babiri, basa nkaho bari muri parikingi, harimo ama modoka akodeshwa, cyangwa agurishwa, ndabona wagira ngo ni nka kebisi hano mu Rwanda.

Iyi ni ifoto yo kwamamaza, igaragaraho imodoka, ikodeshwa, n'igiciro cyayo ko ikodeshwa ibihumbi miliyoni, igiciro cyayo cyari miliyoni mirongo itanu, akaba ari imodoka ya bibiri na cumi na kabiri yo mu bwoko bwa Mercedes benz.

Kuri iyi foto hagaragaraho umugabo ufite urufunguzo runini, uhagaze imbere y'imodoka ya dayihatsu nini, ni imodoka ya dayihatsu y'umweru, bisa nk'aho yari avuye kugura imodoka muri kampani bita Akagera, bafite urufunguzo rwanditseho IBG.

Aha ni kuri biro cyangwag se kuri resebusiyo ya dahabusheri, ikora mu byo kohereza amafaranga, kuba umuntu yakorereza amafaranga hanze ukaba wayabona mu manyarwanda, intanashono mani taransifa cyanwa wowe ukaba wayamwoherereza.

Biragaragara ko ari nko muri bilode delishanje cyangwa se muri banki imashini ibara amafaranga baribari kumara amafaranga yo mu bwoko bw'amadorari kuko bigaragara nk'umugabo nu mugore.

Iyi foto iragaragaraho imashini ibara amafaranga, iri kugaragaza totari y'amafaranga yavuyeho, iri kugaragaza umuntu ari gufata amafaranga imaze kubara.

Kuri iyi foto hari kugaragaraho amafaranga cyangwa se igiceri cyanditseho banki nkuru y'u Rwanda, gisa n' icyakozwe muri bibiri na cumi na rimwe. Hkaba hariho ikirangantego cy'ikigori cyangwa se ishusho y'ikigori.

Kuri iyi foto uko bigaragara ni nk'umukozi wa banki yari ari kubara amafaranga agiye kuyahereza cyangwa se kuyaha umukiriya cyangwa se kuyabika, umukiriya ayamuhaye ari kuyabara,

Iyi ni ifoto igaragaraho amafaranga na kibodi bisa nk'aho ari muri banki cyangwa se foregisi biro, ubwo hari kugaragaraho amafaranga y'ibihugu bibiri bitandukanye, amadolari n'ayandi y'ikindi gihugu ntabashije kumenya.

Nk'uko bigaragara kuri iyi foto, biragaragara ko ari nk'iriya trey ijyamo amagi ya plastique, hejuru hari anvelope itagaragara ikintu kirimo neza, ino ivamo amandazi cyangwa imigati.

Ku i foto hagaragaraho ibicupa by'amazi muri kampani icuruza amazi mu Rwanda bita jibu bisa nkahoho ari aho bayacururiza.

Ifoto igaragaraho etajeri irimo amajerekani, akabati, firigo, n'imashini ivanga amata, imeza abakiriya bicaraho, n'udutebe tubiri indobo irimo amandazi, keke...

Uko bigaragara kuri iyi foto, iyi ni inzu y'ubucuruzi ariko akaba ari ho hari dayari cyangwa se nk'imashini ishobora kubika amata igihe kirekire cyangwa bacuruza ibijyanye n'amata.

Igaragaza juto payment platfom plastifom z'ikoranabuhanga zo kwishyuriraho niyo bita pe bar ikoreshwa mu kwishyura amafaranga y'ikoranabuhanga cyangwa mu kuvunjisha nibyo tuzi bitura craptor carent.

Iyi ni ifoto igaragaza dijito payimenti metodi, cyangwa se uburyo bwo kwishyura bw'ikoranabuhanga, aho ushobora kwishyura ukoresheje banki turansifa, banki iyo ari yo yose, payi Rwanda, I&M banki, bulanshi sipeni ajenti.

Iyi ni nk'imisoro yari imaze kwishyurwa kuri Rwanda revini otoriti, yari amaze kudekarara, Uwamahoro Magnifique otoriti RRA ofisi.

Izi ni inote z'amayero, amayero mirongo itanu, inoti zigera muri cumi n'ebyiri z'amafaranga y'amayero cyangwa zinarenga.

Aya ni amafaranga akoreshwa mu gihugu cya congo, inote ya magana abiri iriho ikirangantego cy'umuhinzi umugore n'umugabo.

Ku ifoto uko bigaragara ni amafaranga atandukanye ya banki cyangwa ayo mu gihugu cya Congo; harimo guhera ku note y'icumi, kugeza ku note y'igihumbi.

Ndikubona icyapa cyangwa asa nkaho ari kuri foregisi biro hari kugaragara ibiciro by'amafaranga y'amanyamahanga uko agura nuko avungishwa, uko avunjishwa ku isoko.

Kuri iyi foto hagaragaraho umuryango wa Forex bureau ariko ufunze, aho bakorerwa serivisi zijyanye no kuvunjisha amafaranga. Aho ushobora kuzana amadolari bakaguha amanyarwanda cyangwa amayero bakaguha amadolari, cyangwa amanyarwanda akavanjemo amadolari.

Amafoto iriho umugabo ari kwandika ibiciro bya forex bureau, zikora ibijyanye n'ivunja n'ivunjisha ry'amafaranga atandukanye.

Igaragara kuri iyi foto ni imwe muri biro ikora karenti egisicenje cyangwa se ivunja amafaranga y'ikoranabuhanga cyangwa se ama kiriputo karensi, ikaba yayaguha mu mafaranga asanzwe cyangwa se ku ikoranabuhanga cyangwa; ukaba wazana amafaranga asanzwe bakayaguha mu ma kiriputo.

Ku ifoto iragaragaraho umuntu uri imbere kuri gishe, basa nk'aho batanga serivisi zijyanye na Airtel Money, serivisi zijyanye n'amafaranga.

Hano haragaragara inzu ifunguye, umuryango ufunguye wimwe muri biro zikora foregisi biro cyangwa se manitaransifa, bavunja amafaranga cyangwa bakayavunjisha, cyangwa bakohereza amafaranga hanze, bagukorera taransagisheni.

Nk'uko bigaragara ni nko mu iduka rya fanica cyangwa aho bacuruza ibikoresho bikozwe mu mbaho byarangiye iyi ni salomange cyangwa aho ushobora kurira inyuma hari utubate n'udukotwari dutandukanye.

Muri iy'ifoto haragaraho intebe zo mu ruganiriro n'imeza n'igitabo inyuma hakagaragara izindi ntebe zo mu ruganiriro n'imeza birasa nkaho ari aho bacuruza ibikoresho byo mu nzu.

Izi ni intebe zo muri salo cyangwa se salo n'imeza zigaragara nkaho zikiri nshyashya ari nk'ahantu bazigurisha kuko ziracyariho n'amashashi ziracyafunitse.

Kuri iyi foto hari kugaragaraho esikariye zizamuka zijya hejuru, hari ameza ya salamange, hariho amafunguro, ku ruhande ndi kubonaho buje, hari akabati, hari dekorasiyo z'ibiti.

Kuri iyi foto biragaragara nkaho ari ishopu ya fanica y'ibintu by'ububaji, hari utubati tubiri twegeranye n'intebe zo kwicaramo n'izindi zimanitse ziri hepfo.

Aka ndabona ari akazu gatoya cyangwa akantu kameze nk'akazu gatoya k'imbwa, cyangwa ikindi kintu runaka kari ikirangantego cy'agacurama cyangwa se ishusho y'agacuramo.

Kuri ino foto haragaragaraho intebe za salo intebe eshatu, imwe yicaraho abantu batatu indi ya babiri n'ebyiri z'umwe umwe, ni intebe enye.

Iyi ni fanica iragaragara, ni salamanje y'intebe enye n'imeza y'ikizeru izengurutse, haruguru hari igare, bisa nkaho ari fanica y'ishopu. Iri hafi n'umuhanda hariho ikamyo iri gutambuka.

Uko bigaragara iki ni igitanda gishyashya cyari cyakozwe cya fanica, bisa nk'aho ari agakiriro cyangwa aho bakorera ibikoresho by'ubwiza bwo munzu bya fanica.

Ni ifoto ya hoteri, hariho pisine, n'utwo abantu bashobora kwicaraho, n'imitaka, ni ifoto kuri pisine.

Iyi ni inyubako imwe muri hoteri zigize Kigali, ndabona ari hoteri ya Mariyote, ndabona ibiti ku ruhande n'umuhanda.

Ifoto igaragaza esikariye, ikagaragaza na faya ekisitengwisha, imwe ikoreshwa mu kurwanya inkongi z'umuriro, ariko agatoya kayo k'ibanze.

Iyi ni ifoto yo kuri resebusiyo ya hoteri. Ku ruhande hari ifoto y'umukuru w'igihugu, hariho umugabo uri gusaba serivisi umuzungu, n'abakobwa babiri bari kumwakira umwe ni we uri kumwakira undi ari ku ruhande.

Aha biragaragara ko ari mu cyumba cy'inama, kimwe muri hotel cyangwa nka sale, ikorerwamo inama ishobora gutangirwamo amahugurwa cyangwa igakorerwamo inama, cyangwa se ibirori ya hoteli.

Uko bigaragara hano ni kuri biro y'imwe muri kampani bita Cuzo eri limitedi ishinzwe ubwishingizi, Kampani ya inshuwarensi iyi ni ofisi yayo.

Nk'imwe muri kampani zikora ibijyanye na inshuwaresi mu Rwanda n'ubwishingizi ya SONARWA, iri ni ishami ryayo riherereye i Kimironko.

Adivatazimenti ya banke ya bipiyara, bakubwira izi sekuwa taransifa ofu fawundi. Yowa banke ugaragaza nyine ukuntu ushobora gutaransifera.

Nkuko bigaragara kuri iyi foto, niro ni nka roko maketi cyangwa isoko risanzwe, hakaba hahagaze abagabo batatu, bigaragara n'isoko ricuruza ibintu bijyanye n'ubugeni, hakaba hariho ibiseke, inkangara, ibintu bijyamo imitako ya kinyarwanda.,,

Ni rimwe mu isoko ricuruza imbuto, cyangwa se ibintu bijyanye n'imboga z'ibiribwa, biri kugaragaraho ibitunguru, n'inyanya.

Iyi foto iragaragaraho umucuruzi cyangwa umukiriya bigaragara ko ari mu isoko rusange ririkugaragaraho ibitunguru n'inyanya, mayonezi, ibirungo, amavuta, n'ibindi bitandukanye.

Iyi foto igaragaramo umugore uri gucuruza ibitoki, inyuma ye hari ibirayi, bigaragaza ko ari ifoto mu isoko komoni maketi, isoko riciriritse roko maketi hirya hari abakarani bambaye impuzangano.

Kuri iyi ifoto hari kugaragaraho abamama bari mu isoko ry'imbuto, aha ndi kubonaho imineke, inanasi, amapapayi n'izindi mbuto zitandukanye.

Iyi foto uko bigaragara niyo mu isoko haragaragara umuma witeza agatambaro mw, isoko ry'imbuto hagaragara ubunyobwa,,imyembe, inyanya, n'imineke.

Kuri iyi foto iragaragaza isoko rya modani maketi, risa nkaho ari isoko ry'imbuto, rya furuwi, rya vejetebo, hari inyanya, intoryi, ibintu by'imboga nyine.

Iyi ni ifoto igaragara uko ari mu isoko rimwe akaba ari umukobwa uri gutambuka wambaye imyenda hejuru yambaye icyatsi n'ingofero, hasi ni kaki, bigaragara ko ari mu isoko ry'imyenda, montana market.

Kuri iyi foto haragaragaraho umukiriya n'umugurisha, ari kumuhereza ibyo yari aguze mu ishashi y'umukara, yari aguze imbuto, ukobigaragara ni isoko ry'imbuto.

Kuri iyi foto hagaragaramo umwana, umugore n'umugabo bisa nkaho ari muri rokomaketi, isoko risanzwe ry'abaturage rijyanye na vejetebo cyangwa imboga n'inyanya n'intoryi ibintu nk'ibyo.

Iyi ni ifoto y'ishyiraha ry'amazu y'ubucuruzi usanga hari isoko ry'imbuto igaragaramo umugenzi uri kuri telefoni n'umumama nawe uri kuri telefone.

Ifoto yo mu mujyi rwagati iri kugaragaraho icyapa kinini cya MTN mobile money, hari n'icyapa cya Konka, hakaba n'imodoka z'umweru n'iz'umukara.

Iyi ni ifoto igaragaza amasezerano cyangwa abagabo, umugabo umwe ari gusuzuma undi mugabo n'umugore bakorera sosiyete ya kampani ya Airtel bakora serivisi ijyanye n'itumanaho.

Kuri iyi foto haragaragaraho sitandi ya MTN, hakagaragaraho igikarito kiriho gifuti, n'abakozi n'abagenerwa bikorwa ba kampani ya MTN, bisa nk'aho ari serivisi bari bari guha abaturage za poromosiyo runaka.

Ku ifoto haragaragaraho umugabo n'umugore, bigaragara nkaho umugabo yari ari gusobanura umugore uburyo wakishyura ukoresheje, mobayiro mani. Bisa nkaho akora sosiyete ikora ibintu bijyanye n'itumanaho mu Rwanda.

Ino foto iragaragaraho nkaho ari umuntu wari gukora igikorwa cyo kwishyura amafaranga, yari amaze gushyiramo umubare w'amafaranga igihumbi ajya kuri Fabrice, bari kumubwira ngo baribumukate igiceri cya makumyabiri, bari kumusaba ko ashyiramo pasuwadi.

Iyi ni ifoto y'umumotari w'umwe muri kampani nyinshi zo mu Rwanda, zikora ibintu bitanga serivisi, yo kuzana ikorera kuri murandasi, zo kuri onorayini serivisi za derivari, uyu ni umumotari wayo muri kampani yitwa vuba vuba.

Iyi ni ifoto y'umuntu uri kugaragaza ko application bita vuba vuba ikora. Ikora serivisi zo gucuruza online, ukaba wa ka ordering ikintu bakakikuzanira, yitwa vuba vuba.

Iyi ni imwe muri onurayini bizinesi, ni onurayini shopingi bita Kasha, igaragaza nyine uko ushobora kodaringa ikintu bakaba bakikugezaho.

Nk'uko mubibona, ni nk'umumotari cyangwa umuntu ufite moto yari ayitwaye ariko ari kugenda ukoreshe icyo bitago mapu cyangwa gugo mapu iri kumwereka aho agiye.

Iri ni nk'isoko cyangwa iduka rigurisha ibintu onurayini, aho bakubwira ko bakuderivaringira fureshi fudu tu yo do, ku muryango wawe nyine, bakakwereka ibiciro n'ibyo bacuruza harimo imbuto, switi banana, bakakwereka ko ari magana abiri, ayirishi poteto.

Ni ifoto iri kugaragara ni mu ruganiro cyangwa muri salo, harimo intebe ebyiri, imeza y'umukara iri muri salomanje akabona n'intebe zayo na filigo.

Kuri iyi foto hari kugaragara jaride, hakagaragara ikigega, kiri imbere y'inzu mu gikari, hasa nk'aho ari mu gikari cy'inzu, uko bigaragara iyi inzu iri kugurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu, iherereye muri Kigali.

Iyi foto iragaragaraho igipangu ,kigaragara ko ari inzu ari tu ini wani geti isa n'ifunguye bakwereka ko kigurishwa miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri.

Inzu bigaragara ko ikodeshwa igihumbi na magana atanu cy'idolari ku kwezi. Muri Kigali, hari kwereka parikingi yayo. Ni inzu igeretse rimwe, bari kwerekana ku kabaraza.

Ifoto igaragara ni ifoto igaragaza korodoro yinjira mu gipangu, mu muhanda harimo jaride hagati mu muhanda harapavomye hagaragara igipangu kiriho designe n'ikindi cyubakije amatafari ahiye.

Inzu. Ku ifoto agaragara inzu. Mu gikari cyayo hari isinga za kashi pawa. Hakagaragara muri salo yayo na parafo za rangete. Inzu ikaba ikodeshwa. Iba ari iy'ibyumba bitatu na tuwarete ebyiri na dushe. Ikaba ikodeshwa ibihumbi...

Kuri ino foto hagaragaraho umuntu ufashe sosiso zigera muri esheshatu cyangwa se zirenga mu kiganza. Imbere ye hakaba hateretse akabuwate ka onesifeya netiwake n'imashini.

Iyi ni ifoto iriho amafoto menshi atandukanye ariko uko bigaragara ni nka supamaketi cyangwa shopingi more, hari iri kugaragaza kuri resebusiyo, hari iri kugaragaza amakontwari n' amayetajeri.

Iyi ni ifoto yo muri supa maketi, ni imwe muri korodoro zayo, hari kugaragara udutageri, n'umuntu ufite agapaniye ko gushyiramo, ibyo ari buhahe.

Kuri iyi foto haragaragaraho umukobwa ugaragara nk'umukiriya cyangwa se ukora mu iduka, akaba ahagaze muri supamaketi, kuri kote iriho ibijyanye n'ibyo kunywa, amajuyisi, amazi n'ama enagi.

Iyi foto iragaragaraho umukobwa ukora kuri Resebusiyo cyangwa nk'umucashiyeri, imbere ye hari inanasi biragaragara ko yari ari mu iduka supamaketi nini ari gushopinga yateretse inanasi ku mashini kugirango abone igiciro.

Kuri iyi foto hagaragaraho icyapa cyangwa se gurupe ya ejo heza initiyative puru la poromoshoni de dizi, rwandizi de la diyasipora, y'abadiyasipora.

Uko bigaragara iyi ni sinyatire ya dogiteri Agnes Binagwaho, minisitiri w'ubuzima, wari uriho muri bibiri n'icyenda na bibiri na cumi. Akaba hariho n'ikirangantego cy'u Rwanda. Kashe y'ikirangantego cya minisiteri do sante.

Kuri iyi foto ni ifoto y'icyapa cyangwa se ikirangagantego, akaba ari amagambo yandikishijwe inyuguti z'icyatsi ya mituele de sante, health care. Ikigo kijyanye n'ubwishingizi mu kwivuza mu Rwanda. Bw'abaturage rusange.

Kuri iyi foto uko bigaragara ni kwa muganga cyangwa se ahatangirwa serivisi zo kwivuza, umumama yari afite mituweli mu kiganza, ubwisunganye mu kwivuza.

Iyi ni ikarita ya RSSB, ikoresha ikoreshwa mu bwisungane mu kwivuza, mu bwishingizi bw'ubwisungane mu kwivuza cyangwa se mituweli dosante.

Kuri ino foto, hariho rogo ya kampani ya RSSB, Rwanda sosho sekiriti bodi, aho bari kukubwira ngo awa herifu awa fiyuca.

Kuri iyi foto haragaragaraho icyapa k'imwe muri company z'ubucuruzi cya mu ma supermarket abarizwa mu Rwanda yitwa Simba supermarket, kiri mu kirango cya oranje n'ubururu.

Iyi ni foto yo muri superimarishe na supamaketi. Iri kugaragaza ahantu bacuruza ibintu bya amajuwisi, iri kugaragaza udutajeri nyine. Ahantu hari ibintu bijyanye n'amavuta y'amaforomaje.

Kuri iyi foto haragaragaraho ubwoko bw'imigati buri muri etajeri, bisa nk'aho ari buranje y'imigati bigaragara ko ari buranjeri y'imigati.

Kuri iyi foto hagaragaraho umugabo wambaye umupira wa peyi wivu momo, akaba ari muri supamaketi hari n'umugore inyuma hari abandi bagabo babiri, umugore akaba afite agapaniye kano batwaramo ibintu kakaba gasa nk'akarimo imifuka.

Ni ifoto y'umuntu wari uri muri supa maketi, afite ka kagare bashyiramo ibintu umukiriya amaze guhaha, uko bigaragara biragaragara nk'aho yari ageze ahantu hari ibintu bya eregitoronike, hepfo ye hari amajuyisi.

Iyi ni ifoto iriho utuyetajeri two muri supamaketi, kuri kote imwe iriho ibijyanye n'amavuta yo kwisiga, ibijyanye n'amaforomaje, hariho bitandukanye byinshi.

Iyi ni ifoto igaragara ko ari muri supermarket, hejuru hari icyapa cya best christmas, hejuru hari kugaragaraho udutajeri dushyirwamo ibicuruzwa.

Iyi ni ifoto yo muri supamaketi imwe igaragaza kote imwe irimo ibijyanye n'amavuta yo gutekesha impapuro z'isuku.

Iyi ni ifoto imwe muri supamaketi, hejuru ndabona ari ikirangantego cya livuzi, bisa nkaho umukiriya yarari kuri gishe, cyangwa yari ari aho babika amarikeri ari gufata inzoga ya rikeri.

Iyi ni ifoto y'imwe muri korodoro ya supamaketi, aho hari utubati turimo ibintu by'amasuku, amapapiyejenike, amatoyileti pepa, irindi kote ririho imiti y'amasabune bikoreshwa mu masuku.